Umubyeyi wambaye ingofero y' ubururu n'umupira w' amaboko magufi, ukenyeye igitenge cy'icyatsi yaje kuvoma , afite ibuni yumuhondo kandi ari kumugezi ari kuvoma.

Imbonerahamwe yanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, amwe aratsindagiye andi yanditswe mu buryo busanzwe, yose afite icyo ari kuvugaho kubigendanye n'ubuzima.

Abantu benshi bari guhabwa serivisi z'ubuzima. Harimo ababyeyi bafite abana bakiri bato. Harimo n'abaganga bari kubafasha. Hari umuganga w'umugabo, wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru.

Abana bari ku mugezi, ni umugezi ufite amarobine atandukanye, buri mwana ari kuvomera ku ivomo rye, ndetse hari abana begeranye, buri mwana afite uri kumuvomera inyuma ye kugira ngo azamure amazi ajye mu indobo.

Abantu babiri iruhande rwabo hari inzu ifite amatafari ahiye, imbere yayo hari robine ifite rObine enye kuri robine hari umwana uterura indobo y'umuhondo, iruhande rwe harirumu umugabo wambaye umupira wa buresiyeli ndetse wambaye n'ipantaro y'ikoboyi.

Umusore wambaye umupira wa oranje, wandikishijweho amabara y'umweru mu mugongo, wambaye amarinete y'umukara, ufite imisatsi ya natirere ndetse uri guha umubyeyi ufite umwana wambaye umupira wa oranje, uwo mubyeyi yambaye na we umupira w'umweru.

Abayobozi batandukanye bamaje gukora inama bakaba bari gufata ifoto, harimo umuzungu umwe wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, harimo n'abandi b'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bari hamwe, bose bifashe neza kugira ngo bafotorwe.

Abantu batatu bose barahagararanye kandi babiri bambaye udupfukamunwa twa buresiyeri, undi umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara bose bambaye amarinete y'umukara, kandi umwe muri bo yambaye itaburiya y'umweru akaba ari hagati yabo, hari ibintu bafite mu ntoki.

Abantu bari kwerekana ibyo bakora imbere y'abayobozi, inyuma y'abo bantu hari umuntu ufite kamera uri gufotora ibyo bakora, imbere yabo hari abantu bari kwerekwa n'abo bandi ibyo bakora.

Furaya ifite ibara rya burefonse yandikishijeho amagambo atandukanye ari mu mabara atandukanye, hari afite ibara ry'umuhondo, hari andi afite ibara ry'icyatsi ndetse n'andi ari mu ibara ry'umweru yose yanditse mu mukono.

Abantu babiri bari ahantu hari umugezi utemba, umwe ari mu mazi ari kuvomesha ibuni y'umuhondo, yambaye n'ikintu cy'umuhondo hejuru ndetse undi ari ku ruhande ari koza igare nawe yambaye inkweto z'umweru n'ishati y'umuhondo.

Inama yahuje abantu batandukanye. Imbere kuri écran turikuhabona Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Docteur sabin Nsanzimana. Mu nama harimo abantu batandukanye, iyo nama ifite umutwe ugira uti: increasing domestic resources for health.

Umwana mutoya uri ku mugezi, uri koga mu ntoki, robine iri kumanura amazi mu ntoki ze, yambaye kandi ikanzu y'umutuku, robine hafi yayo hari ibyatsi.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku, inkweto z'ubururu, ishati ya gisirikare, akaba ari kunywa amazi ku ivomo rifite robine ebyiri, akaba yaje kuvoma azanye indobo.

Umukobwa usutaraye, wambaye ijipo y'umukara, wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi, akaba agiye koza ibuni y'umuhondo mu ibasi z'ubururu ndetse inyuma ye hari imyenda yanitse ku ikamba.

Abantu batanu, umwe ahagaze inyuma yabo abandi baricaye, harimo umukobwa umwe wambaye baji, wambaye n'itaburiya y'umweru, ufite n'imisatsi ya natureri ndetse wasetse, harimo kandi n'abandi b'igitsina gabo bane, harimo kandi umwe wambaye baji mu b'igitsina gabo y'ubururu.

Abantu bane bose baricaye harimo ababyeyi batatu biteze ibitambaro bitandukanye mu mutwe ndetse bambaye n'ibitenge bitandukanye hasi bambaye n'inkweto zitandukanye, hafi yabo hari jaride irimo indabo na pasiparume biri imbere yabo ndetse urikubitaho ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru witezemo n'igitambaro cy'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo amabara y'umukara, wambaye n'ipantaro y'umukara, waje kuvoma, akaba yishimye ndetse cyane, afashe ku ibuni ategereje kuvoma.

Abantu bicaye bari hamwe, harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo. Harimo abazungu ndetse n'abirabura bambaye mu buryo butandukanye, harimo abambaye amakositimu ndetse n'abandi bambaye imyenda y'ibitenge.

Abantu babiri bose baracyari bato bateruranye indobo y'icyatsi iruhande rwabo hari inzu y'amatafari ya rukarakara, kandi iruhande rwabo nanone hari ibiti bibegereye.

Abantu b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo umuzungu ndetse abandi n'abirabura bose bari imbere y'inzu bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye amajire atandukanye ari mu mabara atandukanye nka kaki ndetse n'ubururu, iyo nzu iri inyuma yaho yanditseho ngo “gira ubuzima”ifite ibara rya buresiyeri.

Abana batatu bambaye iniforume y'ishuri, ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, bari koga mu ntoki bose kandi imbere yabo hari robine eshatu zose ziri kumanura amazi.

Abantu bari ku ivomero rifite ibara ry'ubururu, rifite robine ebyiri, harimo umugore uri gukarabya umwana mu ibase y'umutuku, harimo n'undi mugore ufite indobo ya gireyi uri kumwe n'umwana wambaye umupira w'umutuku umufashe.

Abantu batandukanye baje kuvoma, harimo umubyeyi uri kubavomera, wambaye umupira w'icyatsi n'igitambaro cy'umuhondo n'ijipo y'umweru, mu baje kuvoma harimo abana, ababyeyi bateruye n'abana ndetse n'abagabo.

Abantu bane umwe ni umusore wambaye ibaji y'akazi k'ubuganga ndetse yambaye n'itaburiya y'umweru n'umupira w'umweru mu imbere na ga z'umweru, ari gufata amaraso ku kaboko undi muntu wamuhaye ikiganza, inyuma yabo hanze hahagaze umuntu wambaye ijire ya emutiyeni.

Abantu bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru n'iya buresiyeri. Bafite furaya mu ntoki ya RBC ndetse iriho ikirangantego cy'u Rwanda, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo no mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri bari kuvomesha amajerekani y'umuhondo, umwe ni umugore witeze igitambaro cy'ubururu mu mutwe, undi ni umugabo wambaye ikote ry'ubururu ndetse bari kuvoma amazi meza.

Abantu benshi batandukanye harimo abana, harimo n'ab'abagabo, hari umugabo wicaye w'umuyisilamu wambaye n'ingofero y'abayisilamu ndetse hari n'abandi bahagaze harimo umugabo wambaye ijire ya burefonse.

Abantu batatu babiri b'igitsina gore n'undi umwe w'igitsina gabo babiri barahagaze umwe aryamye ku gitanda bari kumuvura, uri kumuvura ni umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse wambaye n'amalinete y'umukara.

Abanyeshuri b'abana bambaye imyenda ya kake, harimo abambaye amakabutura ya kake ndetse n'amashati ya kake, harimo n'abambaye amajipo ya kake n'udupira twa kake, bari kuvoma amazi bari gukoresha indobo n'utubuni, hari indobo z'umuhondo ndetse n'akabuni k'umuhondo, hafi aho hari ibidukikije.

Furaya y’abantu batanu bazatanga ikiganiro ku insanganyamatsiko yanditse kuri iyi furaya, batatu n’ abagabo babiri nab’igitsina gore umwe mu b'igitsina gore ni umuzungu undi ni umwirabura, yambaye n’amarinete y’umukara abandi batatu b'abagabo umwe yambaye kositimu y'umukara ndetse n’ishati y'umweru mo imbere.

Ababyeyi babiri bose bafite abana. Buri mubyeyi yambaye agapfukamunwa, hari umubyeyi wambaye agapfukamunwa ka buresiyeli ndetse ufite amaherena y'umweru ndetse n'imisatsi isutse, afite umwana ari kumusoma, hari n'undi mubyeyi ufite umwana kandi wambaye agapfukamunwa k'umukara.

Abantu batandatu harimo umwe w'umukorerabushake uhagaze hanze wifashe mu mifuka wambaye umupira wa buresiyeri ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Abandi bari mu nzu bari gukingira ababyeyi, ndetse umubyeyi umwe bari kumufata amaraso ku kaboko, uri kubikora ni umusore wambaye itaburiya y'umweru kandi nawe ni umuganga.

Abagabo batatu n'abagore babiri bari mu nama, abagore bikaba bigaragara ko ari abazungu, bafite imisatsi idefirije ndetse harimo n'umugore wambaye isaha, abagabo batatu harimo umugabo ubayoboye bose, bamwe bicaye iburyo, abandi ibumoso. Bafite amazi ku meza yo kunywa n'amaterefone n'amakayi bari gufatiramo note.

Umugabo uri mu biro uri gusaba serivise, akaba yambaye imyenda isa hose, yambaye n'inkweto z'umukara. Umugore aricaye, ari kumuha serivise yandika ku rupapuro.

Ababyeyi bari kwa muganga, baje gukingiza abana, hari umubyeyi uhagaze imbere ufite umwana, afite n'ifishi mu ntoki y'umuhondo, abandi babyeyi baricaye, buri wese ategereje ko agerwaho.

Abaganga b'ababyaza bari kwa muganga, harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bambaye udupfukamunwa, bambaye ingofero, bambaye n'amataburiya ndetse n'indi myenda yabugenewe ikoreshwa mu buvuzi.

Abaganga babiri bari kuvura umwana muto uryamye bari kumwe n'umubyeyi we umwicaye iruhande, iruhande rw'umubyeyi hari agasahane karimo ibiryo gapfundikiye, abaganga bambaye amataburiya y'umweru.

Umuntu waje ku mugezi kuvoma, hari akabuni k'umweru, hari n'indi buni y'umuhondo, hari n'indi buni y'icyatsi, umugezi ufite robine enye kandi hafi y'umugezi hari ibiti n'ibyatsi biwukikije.

Abantu bahagaze ahantu hamwe. Harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo. Bose bahagaze mu buryo butandukanye. Harimo abafashe mu mifuka, hari n'abatayifashemo. Bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, iteye n'irange ry'umuhondo. Hafi y'iyo nzu hari ubusitani.

Abantu bicaye hanze harimo dasso wambaye imyenda y'icyatsi, iyo myenda iriho idarapo ryu Rwanda yicaranye n'abandi bantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, iruhande rwabo harimo ndetse n'andi mazu.

Abana bari koga mu ntoki, bishimye cyane, hakaba hari ibasi y'umutuku irimo amazi ndetse bakaba bari kumwe n'abantu bakuru batandukanye.

Abantu bishimye bari hamwe, bari kwifotoza kandi iruhande rwabo hari rogo ya yunisefu ishami ryita ku bana ndetse bifashe mu buryo butandukanye.

Abantu bane bari mu nama umwe afite mikoro kandi ufite mikoroni w'igitsina gore yambaye umupira w'umukara afite n'imisatsi isutse ndetse yegeranye n'undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara ufite baji y'icyatsi mu izosi.

Umuntu umwe wambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umukara, ishati ya buresiyeli ari kogera kuri kandagira ukarabe ya gakondo ifite akabuni k'umuhondo n' numufuniko wicyatsi, akandagiye ku giti kiri gutuma amazi amanuka ava mu kabuni.

Umwana uri koga wishimye yambaye umupira urimo amabara abiri atandukanye ndetse yambaye n'ipantaro, arigera kuri robine y'icyuma robine iri kumanura amazi.

Abantu benshi bari mu nama, harimo abagabo bambaye amarinete y'umukara, harimo abambaye amakositime, ndetse bari no kurya no kugira icyo banywa baganira.

Umwana ufite agakutu kanini mu ntoki, yambaye ikanzu y'igitenge, afite imisatsi isutse. Ndetse iruhande rwe hari inzu y'amatafari ya rukarakara hari n'indi ifite amatafari ahiye.

Umuzungu w'igitsina gore ufite indangururamajwi y'umukara mu ntoki ze, uyu muzungu kandi afite isaha y'umukara yambaye ku kuboko ku ibumoso, uyu muzungu ari gutanga imbwirwaruhame imbere y'abantu.

Abantu baje kuvoma harimo abakiri bato ndetse n'abakuru, robine baje kuvomaho ifite robine ebyiri zose zirafunguye, hari uwazanye indobo y'ubururu indobo ya oranje ndetse n'abandi bafite amabuni afite amabara atandukanye.

Abantu bahagaze hamwe, harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bari kwifotoza, iruhande rwabo hari inzu y'amatafari ifite n'amabati ndetse kandi iruhande rwabo hari igishushanyo kiriho umuganga wambaye itaburiya y'umweru cyandikishijweho amabara y'umweru n'umuhondo.

Umwana uri ku ishuri uvuye ku bwiherero, uri koga kuri kandagira ukarabe yo ku ishuri, kugira ngo asubire mu ishuri akeye ndetse nta mwanda umuri ku ntoki.

Rogo ya UNICEF, iriho umubyeyi, uri kureba umwana, umwana nawe aramwishimiye, ni rogo iri mu mabara y'umweru, ndetse n'ubururu, ariko bwa buresiyeri.

Rogo y'ikigo cyo mu Rwanda, gishinzwe amazi n'isuku n'isukura ni rogo ifite amabara y'ubururu, amabara y'icyatsi, n'amabara ya buresiyeri, harimo amagambo yanditswe mu cyapa no mu mukono.

Umuyobozi wambaye karuvati y'umutuku, ishati y'umweru, amarinete y'umukara ndetse wambaye na kositime y'umukara, ariko akaba ari imbere y'abantu, ari gutanga imbwirwaruhame.

Umwana uri kwa muganga uri kumwe n'umubyeyi we, ndetse muganga akaba arimo amufata ibizamini, muganga yambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru, ndetse yambaye n'isaha.

Abantu bahagaze hamwe harimo umuzungu w'igitsina gore, wambaye ikanzu y'umutuku n'inkweto zihagaze z'umutuku, harimo n'undi mubyeyi wambaye ijipo y'umutuku n'itaburiya y'umweru, harimo n'abagabo batandukanye na bo bambaye amataburiya y'umweru.

Abantu bane bari imbere batatu b'igitsina gore ndetse n'umwe w'igitsina gabo bose bari kuvugana kandi barebana inyuma yabo hari icyapa kivuga ngo official launch of the Rwanda national child protection case management framework.

Umugabo uhagaze ku gatuti kanditseho nashinoru dayaroge oni herifuy fayinansingi ni umugabo wambaye ikositimu yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umutuku mu imbere.

Abantu bahagaze hamwe bari kwifotoza inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo agira ati: uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu ni abantu b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo kandi bose barahagararanye.

Ababyeyi bashoje amahugurwa y'ikigo cy'ubuzima RBC, bakaba bari kwifotoza, bari gufata ifoto ndetse muri abo bantu bose harimo abazungu, harimo abirabura, akaba ari bo benshi.

Umuntu watanze akaboko, bari kumukingira urushinge, uri kumukingira yambaye ga z'umweru kandi akaboko kamwe yakamufatishije, akandi gafashe urushinge.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amatuburiya ya buresiyeri, harimo abagabo ndetse n'abagore bakenyeye ibitenge by'amabara atandukanye, hari abari kuri telefone hari n'abandi barambuye ibitabo bose baricaye.

Umubyeyi ufite imisatsi isutse wambaye igitenge n'agapira k'icyatsi akaba ari koza umufuniko w'indobo ndetse ahetse umwana, ariko uwo mwana biragaragara ko amuhetse umwana asinziriye.

Abantu batatu, imbere yabo hari inzu ifite amabati y'umutuku ndetse ifite n'igipangu cy'amatafari, ifite n'urugi rw'umukara, imbere yayo hari abantu batatu, umwe arunamye undi yikoreye ibuni ndetse iyo buni ni umuhondo.

Abana babiri umwe ari kuvoma kuri robine y'icyuma kandi bafite indobo bari kuvomeramo z'umweru, umwana umwe ari iruhande ntabwo ari kuvoma yambaye umupira w'ubururu.

Abayobozi babiri bari gusuhuzanya bishimye, umwe w'umwirabura yambaye ikositimu y'umukara ndetse na karuvati ya buresiyeri n'ishati ya buresiyeri, uw'umuzungu na we yambaye ikositimu y'umukara na karuvati ya buresiyeri n'ishati ya buresiyeri, afite n'ibitabo mu ntoki.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amabaji y'umweru, bambaye amataburiya ya burefonse, harimo ab'abagore n'ab'abagabo barishimye, bari gukoma amashyi, imbere yabo hari umugabo w'umuzungu wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru n'amarinete y',umukara, inyuma yabo hari inzu y'umuhondo.

Abana bari ku ivomero, umwe ari gupompa amazi kugira ngo age muri robine, ubundi robine nayo iyashyire mu tubuni, abana bafite utubuni dufite ibara ry'umuhondo ariko dufite n'umwanda, abana bamwe bari iruhande rw'umugezi bari kumwe kandi n'abantu bakuru.

Ababyeyi bafite abana bakiri batoya. Abana bari guhabwa amata, umwe uri gutanga amata, yambaye umupira wa oranje, ni umusore, afite n'imisatsi ya natirere, yambaye n'amarinete y'umukara.

Inama yahuje abantu batandukanye, imbere hakaba hari abayobozi batatu, abagabo babiri bambaye amakositime ndetse n'umugore umwe witeze igitambaro wambaye n'ikanzu y'igitenge. Mu bantu bahari harimo abantu bafite imisatsi isutse, harimo abazungu n'abirabura.

Abana babiri bari ku ivomero bari koga mu ntoki, umwana umwe yambaye imyenda y'icyatsi hasi no hejuru ndetse undi yambaye agapira k'umutuku hejuru, abo bana bose bari kogera ku mugezi umwe.

Abantu babiri bose baje kuvoma amazi umwe ni umuntu mukuru wazanye ibuni ari kumwe n'umwana nawe wazanye akacumi n'atanu, bari kuvoma amazi kandi umukuru ari kuvomera umutoya.

Ibiro by'umurenge byubakishije amabati y'umutuku bifite amadirishya y'icyatsi. Imbere yabyo hahagaze abaturage benshi, bari mu ngeri zitandukanye. Hari imodoka kandi iparitse imbere y'ibiro.

Abana biga mu mashuri abanza, bari kunywa amazi ku mugezi. Umugezi urafunguye, umwana umwe wambaye ishati ya buresiyeri, ufite umusatsi mukeya ni we uri kunywa.

Umuntu uteze ibiganza bibiri kuri robine, ibiganza bye biciye inzara neza inzara ze zifite isuku, robine ni iy'icyuma iri kumanura amazi meza ku biganza bye.

Abantu batandukanye bari mu nama, bari kuganira ku ngingo zitandukanye, harimo abambaye amakositimu ndetse harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, hari n'abafite mudasobwa ziri mu mabara y'umukara.

Abantu bari kwa muganga, umubyeyi yazanye umwana kwa muganga, umwana afite icyo ari kurya mu ntoki ndetse umuganga amukozeho kandi uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru.

Furaya yunisefu iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru. Ni amagambo yanditse mu mukono agira ati foru evuri cadi hope, imbere yayo hari abazungu harimo ab'abagore n'ab'abagabo bose bari kuganira.

Ku ivomero hahagaze abantu batandukanye baje kuvoma, hari amabuni afite amabara y'umuhondo kandi atondetse ku murongo, hari umubyeyi wambaye ishati y'umuhondo witeze n'igitambaro hari n'abandi bari iruhande rwe.

Agatanda k'amasahani kubatswe mu biti kari hanze kariho ibikoresho byo mu gikoni bitandukanye: harimo ibisorori, amasahani y'ibyuma ndetse n'ibikombe, aho hanze hari urugo rw'imiyenzi.

Abantu bari ku mugezi ufite ibara ry'ubururu, amazi ari kuva mu mugezi, ajya mu mabuni. Amabuni atondetse ku murongo, abantu na bo barahagaze. Bategereje ko babona amazi.

Abantu batatu bari mu cyumba, icyumba kirimo intebe, kirimo kompiyuta n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, umuganga umwe ari gupima umuntu wicaye ku ntebe wambaye umupira w'umuhondo n'agapfukamunwa.

Abakozi b'ikigo runaka, bari kuganira, bafata n'agakawa ndetse ku meza hari porojegiteri ariko muri abo bakozi harimo umushinwa ndetse uwo mushinwa yicaye iburyo ndetse kandi abo bantu bari kuganira harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo.

Abana bari ku ishuri inyuma yabo hari ikibaho cyandikishijeho icaki ry'umweru ndetse bicaye ku ntebe bambaye ni forme y'ubururu ndetse na kake, bambaye n'udupfukamunwa dutandukanye harimo uwambaye agapfukamunwa k'umutuku ndetse bari kurya, bari kurya akawunga n'ibishyimbo.

Abantu b'uruvunganzoka bari ku murenge. Harimo abagabo, harimo urubyiruko, harimo n'abagore. Ku murenge hari idarapo ry'u Rwanda ndetse haparitse n'imodoka y'umweru.

Umwana uri koga mu ntoki wambaye ishati ya buresiyeri n'ikabutura ya gireyi ari koga mu ntoki, amazi ari kuva mu ndobo y'umweru iteretse ku ntebe. Iyo ntebe ikoze mu byuma.

Abantu bari imbere y'inzu bishimye bifashe neza, harimo abasutaraye harimo n'abahagaze bafite abana bakiri batoya, bambaye imipira y'umuhondo harimo n'abambaye amajire y'icyatsi.

Umwana uri mu kizenga cy'amazi ari kuvomesha ibuni mu mazi, arayifashe arunamye, ni umwana wambaye agapira k'isengeri ndetse wakandagiye mu mazi kandi igishushanyo cye cyishushanyije mu mazi.

Umwana ufite imisatsi isutse uri koga mu ntoki amazi ari kuva muri robine yicyuma ndetse uwo mwana ari kogera mu ibasi y'umukara, iyo basi iteretse munsi ya robine, umwana yambaye ikanzu y'umutuku irimo n'andi mabara y'umukara

Abantu bane bari muzu imwe bicaye babiri baregeranye umwe yambaye umupira w'umutuku n'agapira k'umweru mo imbere undi aramwegereye nawe afite na terefone mu ntoki undi nawe yicaye iruhande rwabo ariko atabegereye cyane undi na aricaye yambaye ikote ry'ubururu afite n'igipfuko ku gahanga.

Abarundi bari hamwe mu cyumba. Muri icyo cyumba, harimo icyapa cya Unicef, n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'Uburundi, Evariste Ndayishimiye. Abo bantu, harimo ab'urubyiruko n'abagabo, harimo umugabo wambaye amarinete, y'umukara.

Ababyeyi batatu bari mu murima, umubyeyi umwe afite umwana ari kumwonsa ndetse afite n'umufuka mu ntoki, afite n'urubingo mu ntoki, undi mubyeyi afite igitiyo ndetse undi nawe afite urubingo bose barahagaze.

Umuntu wipfutse mu maso ari kwihanaguza agatambaro k'umweru, arababaye cyane kuko yifashe mu maso n'ibiganza bye bibiri kandi yambaye n'ingofero y'ubwoya, inyuma ye hari abandi bantu.

Abantu batatu bicaye umwe ni umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'ubururu wambaye n'umupira w'amaboko magufi ari kumwe n'undi mukobwa wambaye agapfukamunwa ka buresiyeri ndetse ufite imisatsi isutse hari undi wicaye imbere yabo uri kubabaza nawe wambaye agapfukamunwa ka buresiyeri nawe ufite imisatsi isutse wambaye n'agapira k'umweru.

Furaya iri mu mabara y'umweru ndetse na oranje, yanditseho amagambo ari mu cyapa ndetse n'ari mu mukono, iriho umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi isutse ndetse wasetse, amagambo ayiriho yanditse mu buryo bwiza.

Abantu bari mu nama, umwe w'umugore afite mikoro y'umukara, ari kuyivugiraho abwira abandi, ku meza hari raputopu cyangwa se compiyuta hari n'uducupa tw'amazi duteretse imbere yabo.

Furaya iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu iriho Logo zitandukanye. Hariho logo y'ikirangantego cy'u Rwanda, ndetse hariho na logo ya RBC, ndetse na logo ya UNICEF iriho amagambo yanditswe mu ibara ry'icyatsi ndetse no mu ibara rya grey.

Furaya yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi ari mu ibara ry'umweru, iriho umuntu w'igitsina gabo ufite imisatsi ikaraze wambaye n'amarinete. Furaya igaragaza amagambo yanditse mu buryo butandukanye, amwe ari mu cyapa andi ari mu mukono.

Inkuru mu kinyamakuru ifite umutwe ugira uti turi kumwe amagambo ari mu cyapa yanditseho yanditse mu ibara ry'ubururu, ndetse ni inkuru iriho umusaza wambaye ishati y'umweru kandi hariho n'idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu uri imbere akaba ari gutanga ikiganiro agiha ababyeyi bafite abana n'abadafite abana, mubo ari guha ikiganiro niababyeyi bambaye ibitenge harimo umubyeyi uhetse umwana usinziriye.

Umuntu w'igitsina gabo wasetse ufite amenyo akorera isuku, afite imisatsi ya natirere yambaye umupira w'umuhondo, arishimye bigaragara ko hari icyo yishimiye.

Umugabo wasetse wakutse amenyo y'imbere, hafi ya yose yashizemo kandi afite ubwanwa ndetse arishimye cyane, afite imisatsi yasutse ndetse ihambiriye, yambaye ikote ry'ubururu.

Abana batandukanye bababaye kandi bari kurira, umwe yifashe ku gahanga, bambaye imyenda yacitse kandi ni benshi.

Abana batoya, bishimye. Harimo abana bambaye ibisa, bambaye iniforume y'ishuri, harimo umwana wambaye n'amaherena, harimo n'undi mwana wambaye umupira w'umweru urimo n'akabara k'umutuku.

Abayobozi babiri bicaye, umwe yambaye ikositimu ya burefonse, imbere ye hateretse agacupa k'amazi, yambaye n'agapfukamunwa undi afite mikoro ari kuyivugiraho kandi yambaye ikote ry'ubururu, afite n'imisatsi isutse, yambaye n'amarinete y'umukara, inyuma yabo hari ibyapa bya RBC ndetse hari n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Umuntu w’igitsina gabo ufite umwenda w’umweru mu ntoki ze yikenyeye igitenge, kandi aricaye. Aho yicaye hakikijwe n’ibyatsi.

Umumama warakaye cyane, wakunje isura, ufite amaherena y'umweru ku matwi, witeze igitambaro cy'amabara atandukanye ndetse kandi icyo gitambaro yacyiteze neza.

Abantu bahagaze bari kwifotoza, harimo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo umwe wambaye akajipo kagufi ndetse ufite terefoni mu ntoki, ari hagati y'abantu bane kandi ari imbere, ari kumwe kandi n'umugabo wambaye ishati y'umukara n'ikote rya gireyi n'ipantaro y'ikoboyi.

Imodoka iparitse hanze yayo hari abantu bicaye ku ntebe za parasitike zifite ibara ry'umweru, hari n'abandi bahagaze, mu bicaye harimo umugore wambaye agapfukawa ka buresiyeri, ndetse wambaye ishati y'umukara n'pantaro y'umutuku.

Abantu babiri umwe ufite agahinda wubitse umutwe wifashe ku gahanga, undi amukoze ku rutugu yambaye n'isaha afite n'imisatsi isutse ndetse ni umugore.

Inyubako y'ibitaro bya karayesi byanditsweho amagambo agira ati karayesi Furere dela sharite. Ni ibitaro bifite inzugi z'umweru n'amadirishya y'umweru.

Abantu bari mu nzu nini, inzu ifite amadirishya y'ibyuma ndetse n'inzugi z'ibyuma, imbere hari abantu babiri bafite mikorofone cyangwa se indangururamajwi, umwe yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umutuku n'agapira k'umutuku.

Abantu babiri bicaye bari kuganira, umwe afite amaherena y'umweru, undi afite agashusho k'imbwa mu ntoki ndetse yambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu n'umweru kandi ari guseka.

Abana bakiri bato, harimo abari mu kigero kimwe, abandi ni bakuru, bafite utubuni mu ntoki kandi baregeranye, harimo abambaye udupantaro ndetse n'abambaye udukabutura.

Umuntu w’igitsina gabo wicaye wifashe ku gahanga, yicaye hasi kandi akenyeye igitenge, yambaye umupira w'ubururu urimo n'amabara yumweru.

Abana bishimye ndetse batangaye hari abifashe m'umutwe ndetse hari n'abandi bari guseka basamye umwe mu bari guseka n'umwana wambaye agapira k'amaboko magufi.

Abantu bashoje amahugurwa, harimo ab'urubyiruko, harimo n'ababyeyi, harimo ab'urubyiruko bambaye amapantaro ariko akaba ari igitsina gore ubusanzwe ndetse harimo n'abagabo bigaragara ko bishimye.

Ifoto igaragaza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe wabaye ku itariki ya cumi z'ukwacumi, iyi furaya rero ikaba igaragaza ko, abafatanyabikorwa bari bari muri uyu munsi harimo RBC, Minisiteri y'ubuzima na UNICEF.

Rogo ya R M H P bivuze ngo Rwanda mento herifu ini paragitisi, ni rogo iri mu mabara y'icyatsi ndetse na buresiyeri kandi rogo iriho abantu bazamuye ibiganza.

Umugabo ufite imisatsi atajya yogoshesha ni imisatsi irimo umwanda mwinshi ndetse yizinze, yambaye ishati yacitse ndetse yambaye n'ipantaro yacitse kandi yambaye ibirenge ari kugenda mu muhanda.

Urubyiruko ruri kumwe n'abandi bantu bakuru, harimo umuzungu umwe w'igitsina gore, hakaba harimo kandi n'undi mugabo wambaye karuvati, ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara, uru rubyiruko rwambaye imipira y'ubururu isa.

Logo yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'icyatsi; iriho umugabo wifashe kandi wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse wambaye ikote ry'ikoboyi.

Umuntu w'igitsina gore, ufite akadodo k'umweru mu ntoki, yagashyize mu kanwa kandi afite imisatsi isutse ndetse afite n'amaherena, yambaye n'isengeri y'umweru.

Umuganga wicaye mu cyumba cyo kwa muganga. Yambaye itaburiya y'umweru, umupira w'umuhondo, ipantaro yumukara n'inkweto z'umukara. Yicaye ku ntebe yifashe n'amaboko yombi. Yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso y'umukara.

Abana bari ku ishuri bishimye cyane buri mwana afite biswi mu ntoki ze arishimye cyane, abo bana kandi bakaba bambaye iniforume zitandukanye; bamwe bambaye amashati y'umuhondo n'amajipo ya gereyi, abandi bambaye ishati ya buresiyeri.

Umuganga w'igitsina gore, wambaye agapfukamunwa ka buresiyeri, wambaye amarinete y'umukara ariko wayazamuye hejuru ku mutwe ndetse afite umusatsi wa natirere, ari mu bitaro biteyemo irangi ry'umuhondo, ari gukura umuntu iryinyo.

Umuntu w'umwirabura wambaye isaha ku kaboko ari kumwe n'undi bari kwiga uburyo bakura iryinyo, ku gishushanyo kigaragaza amenyo yo mu kanwa. Ndetse hafi yaho hari n'ibindi bikoresho bari kwifashisha muri icyo gikorwa.

Umuhungu ukiri muto wagiye kwa muganga, akaba ari mu cyumba hamwe na muganga n'umurwaza we wamuzanye, uyu muhungu afite ikibazo cyo mu kanwa cyangwa se uburwayi bwo mu kanwa, muganga akaba arimo kumuvura.

Umuntu uri kwireba muri miriwari ufite akadodo k'umweru mu ntoki yagafatishije amaboko ye yombi arishimye ari guseka ndetse amenyo ye akorewe isuku mu buryo bugaragara.

Abantu batatu babiri ni abaganga umwe ni umuganga w'igitsina gabo undi ni uw'igitsina gore, bambaye bose udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru, umuganga afite imisatsi isutse, umwana yambaye agapira k'umukara karimo n'amabara y'umweru ndetse n'agapfukamuwa k'umutuku gafite n'udushumi tw'umukara.

Igishushanyo kigaragaza imiterere y'amenyo ya muntu. Ni igishushanyo kigaragaza uburyo umuntu yitaye ku menyo ye yagira ubuzima bwiza, kikongera kikagaragaza uburyo umuntu atitaye ku menyo ye yakangirika bikamuviramo kugira ubuzima bubi.

Umukobwa wasamye ufite amenyo meza, hari agakoresho afite ari gukoza mu kanwa agafashe n'amaboko ye yombi kandi arasamye cyane ku buryo amenyo ye yose agaragara.

Umuntu w'igitsina gabo ufite ubwanwa bwinshi ari guseka afashe akadodo k'umweru mu ntoki, yakanyujije ku menyo yo hejuru kandi agafatishije amaboko yomb.i

Umusore wishimye cyane, ufite agakoresho mu ntoki, karitseho ngo VITA classical, ndetse uyu musore afite imisatsi ya natirere, afite amenyo bigaragara ko ayakorera isuku neza.

Umuganga w'umuzungu w'igitsina gore, wambaye itaburiya y'ubururu, wambaye na ga z'ubururu, uri gukura umugabo w'umwirabura iryinyo. Umugabo w'umwirabura, araryamye, arahasamye kandi afite imisatsi ya naturere.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ka breciel n'itaburiya ya breciel n'umuzungu ndetse afite utwuma mu ntoki ari gukoresha akura umukobwa iryinyo umukobwa w'umwirabura wasamye ufite amaherena y'umweru.

Abantu batatu, umwe ararwaye bari kumukura iryinyo, undi ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse wambaye na rinete n'agapfukamuwa ka buresiyeri, undi uhagaze yambaye itaburiya y'ubururu na ga z'umweru.

Abantu bari ku murongo bafite amakarita bari guhererwaho serivisi y'ubuzima y'amenyo ndetse aba bantu bari guhabwa serivisi n'abaganga bambaye amataburiya y'umweru, abaganga bakaba ari urubyiruko.

Igishushanyo kiranga imiterere y'amenyo, kigaragaza amenyo mu buryo agaragara yose kandi kigaragaza uburyo kwita ku menyo ari byiza kandi ari ingenzi ku buzima bw'ikiremwa muntu.

Umuganga w'igitsina gore, ufite imisatsi ya natirere, wambaye amarinete y'umukara, wambaye n'itaburiya y'akazi k'ubuganga, yambaye na ga z'umweru mu biganza bye, ari gukura umwana iryinyo.

Abana bishimye, bari gukora isuku yo mu kanwa, bakaba bafite udukombe dutandukanye, harimo umwana ufite agakombe k'umuhondo, harimo n'ufite agakombe k'ubururu, abana rero bakaba bishimye, bigaragara ko biga mu mashuri abanza ya leta.

Abaganga babiri bari kwita ku muntu w'igitsina gore urwaye mu kanwa, ni abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye na rinete, umuganga umwe yambaye itaburiya y'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ga z'umweru, ufite utwuma mu ntoki ari gukoresha akura umwana iryinyo, umwana araryamye kandi ari kureba.

Utwuma dufite amashusho atandukanye ndetse dukora ibintu bitandukanye, bitewe nuko twagenewe gukora imirimo itandukanye, tumwe dufite amabara y'umukara, utundi dufite amabara asanzwe y'ibyuma.

Umukobwa ukiri muto ufite amenyo meza, ufite imisatsi isutse, wambaye isengeri y'umweru. Afite uburoso bw'icyatsi mu ntoki ze.

Umusore uri guseka, wagaragaje amenyo ye. Afite imisatsi isutse, afite akadodo k'umweru mu ntoki. Ari kukereka undi muntu uri imbere ye. Yambaye umupira w'umweru.

Icyumba giteyemo irangi ry'umweru, harimo imashini zitandukanye, harimo n'intebe zitandukanye, harimo intebe zifite amapine y'umukara zifite n'amabara atandukanye, hari intebe y'umukara, hari n'intebe z'iroza.

Abana benshi bishimye bakiri urubyiruko, harimo n'abakiri batoya bishimye; bashagaye umubyeyi wicaye afatanyije amaboko, yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'umweru, akaba ari kumwe n'undi muntu w'igitsina gore ndetse uwo muntu akaba we yambaye imyambaro y'ubururu bigaragara ko ari umuganga.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi ariko bishimye, bari mu rugo, baricaye, umusaza yambaye agapira k'ubururu, umukecuru yambaye agapira k'umutuku, bose bambaye n'impeta.

Umurwayi w'umugabo uri gucumbagira, uyu murwayi yambaye umupira w'umukara, ipantaro ya kake, ari kumwe n'umuganga w'umuzungu nawe ufite imisatsi isutse, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Abagabo babiri bari muri siporo, bose bambaye ibintu bisa hejuru, umwe yiteze n'umupira mu ijosi, afite n'agacupa mu kaboko k'iburyo ndetse n'undi na we afite agacupa k'amazi mu kaboko k'ibumoso. Bari kwiruka bishimye.

Umusaza uri kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa, uwo muganga w'umukobwa akaba afite umusatsi wa natirere ndetse uwo musaza bikaba bigaragara ko yicaye mu kagare, ari kwitabwaho n'uwo muganga.

Abantu babiri. Umwe ni umubyeyi wambaye ikanzu ya burefonse, wambaye n'amarinete y'umutuku, yambaye n'amaherena. Ari kumwe n'umugabo uryamye, uri kunywa amazi. Na we ni umugabo ushaje, ufite n'imvi.

Abantu babiri bari mu cyumba cyo kuraramo, umugabo yicaye ku gitanda afashwe n'umugore, umugabo yambaye amarinete y'umukara n'ipantaro ya gireyi, icyumba kirimo inzitiramubu.

Abantu batatu, babiri bafashe umusaza ufite imvi wambaye umupira wa burefonse n'ipantaro y'umukara, umwe mu bamufashe ni umusore w'umuzungu nawe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya burefonse.

Abantu babiri umwe ni igitsina gabo, undi ni igitsina gore, uw'igitsina gore yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara afite n'imisatsi ihambiriye, uw'igitsina gabo yambaye umupira w'ubururu afite n'imisatsi y'imvi ni umusaza.

Abagore n'abagabo bari muri siporo ndetse abagore akaba aribo bari imbere, harimo abagore babiri bambaye iby'ubururu hejuru, bakaba hasi bambaye inkweto zitandukanye, harimo abambaye iz'umukara, abambaye iz'ubururu, abambaye iz'umweru ndetse hakaba harimo n'umugore wambaye amarinete y'umukara.

Umuganga ufite igikoresho yifashisha asuzuma, akaba kandi asunitse n'umurwayi wicaye ku kagare, wambaye umupira wa kake ndetse wambaye n'ijire y'umukara.

Abantu bari ku meza harimo umusaza wambaye ishati ifite amabara y'umweru, umutuku ndetse na burefonsi, ari kwarura afite ikiyiko mu ntoki afite kandi n'isahani y'umweru mu ntoki ze.

Abantu bari mu murima urimo ibintu bitandukanye, harimo ibihingwa by'ubwoko butandukanye bifite n'amababi atandukanye, harimo ababiciye babifite mu ntoki ndetse abo bantu harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bazamuye amaboko barishimye.

Abantu babiri bose bari guseka bishimye, umwe ni numugabo wambaye umupira ndetse n'ipantaro, afite imvi kandi yambaye na marnete, undi ni umuntu w'igitsina gore nawe wishimye kandi nawe afite imvi.

Umuntu w'igitsina gore uri mu myitozo ngororamubiri, aryamye hasi ari gutera pompaje, afite imisatsi y'umweru kandi yambaye isutiye y'umweru.

Umuganga uri gusuzuma umurwayi wicaye ku kagare ndetse n'umuganga aricaye, yambaye itaburiya ya buresiyeri, uyu muganga afashe ukuboko k'umurwayi kugira ngo agutunganye ubundi asuzume umurwayi.

Abasaza babiri bambaye ingofero zitandukanye, umusaza umwe kandi yambaye amarinete y'umukara ndetse yiteze n'igitambaro cy'umweru, mu gihe undi musaza yambaye ingofero ya kake yiteze n'igitambaro cy'umukara, yambaye n'ishati y'umweru.

Umugabo n'umugore barafatanye barishimye, umugabo afite imvi ashyize umutwe we ku mugore we, umugore yambaye marinete, yambaye agakote k'ikoboyi, yambaye n'umupira w'imbere ufite amabara y'umukara n'umweru, umugabo amufashe ku rutugu.

Abantu babiri b'igitsina gore bari hamwe umwe afite ikirahure mu ntoki ari kunywa ku cyo yashyize muri icyo kirahure yambaye ndetse n'amarineti y'umukara kandi ari kuvugana n'undi nawe uri gutunganya ibyo guteka birimo inyanya ndetse n'urusenda.

Umubyeyi w'umukecuru, wambaye impeta ku kaboko k'ibumoso, wambaye agapira k'ubururu, wambaye amarinete y'umutuku, ufite umusatsi mwinshi, uri kunywa amazi, ariko akaba yifashe ku munwa no ku mazuru.

Umusaza uri kumwe n'umugore w'igikwerere bicaye ku meza amwe bari gufungura, umugabo yambaye ishati y'umutuku yambaye n'amarinete y'umukara, ari guseka afite n'imvi.

Umuntu wambaye aka mashini ku kaboko, akaboko aragahinnye ako kamashini gafite ibara rya gireyi ndetse n'umukara, yagakozeho arimo kukarebaho.

Abantu babiri umwe ni umusaza undi ni umuntu ukiri muto umufashe mu mugongo ari ku musindagiza kugirango abashe kumanuka ahantu ari kumumanura umusaza yambaye umupira uri kumusindagiza yambaye agapfukamunwa.

Umuganga wambaye umupira w'umweru, itaburiya y'ubururu ndetse wasutse imisatsi, akaba ari umuganga w'umuzungu ndetse akaba ari kuvura umunyafurika w'umugore, wambaye agapira k'umweru n'akandi gapira ka buresiyeri mo imbere, akaba afite umushumi w'umutuku, yawushyize hejuru ku mutwe we.

Aha abantu bahagaze bafite utuntu mu ntoki tw'amabara atandukanye uri imbere ni umubyeyi wambaye agapira ka kaki w'umwirabura ufite imisatsi ya natulere mike ndetse wasetse cyane afite akantu mu ntoki k'iroza.

Abantu bicaye hamwe harimo uwambaye umupira w'icyatsi urimo n'amabara y'umweru. Harimo n'umuyisilamu wambaye n'ingofero kandi w'umusaza. Harimo kandi n'undi mugabo wambaye ishati ya bleu ciel ndetse nawe wicaye ari kumva ibyo baganira.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu, bategereje umuntu runaka, harimo abarangariye umuntu runaka cyangwa ikintu runaka, harimo umugabo wambaye ikoti ry'umutuku n'ingofero y'umutuku, harimo umubyeyi wambaye agapira k'icyatsi ndetse ufite imisatsi isutse.

Abantu bambaye udupfukamunwa twa buresiyeri ndetse n'imipira ya orange ndetse hari abandi bantu na bo bicaye bambaye n'udupfukamunwa na bo dutandukanye harimo n'utw'umukara ndetse ku meza hari ibintu biri mu ibara ry'ubururu.

Inkuru mu kinyamakuru cya newsletter, ikaba ari inkuru igaragara ko yabereye muri Afurika y'amajyepfo, aho umubyeyi ari kwita ku mwana, uwo mwana akaba bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'imirire.

Furaya y'ikigo gishinzwe ubuzima RBC, iriho umuganga ari gukingira umuntu wicaye wambaye isengeri y'ubururu n'ipantaro y'umuhondo, uyu muganga akaba ari kumukingira urukingo rwa Kovide.

Furaya iriho umugabo uzatanga ikiganiro ku munsi kizaberaho, uyu mugabo akaba yitwa Dogiteri Noel ndetse iyi furaya biragaragara ko yandikishijeho amabara y'ubururu mu cyapa ndetse hakaba hariho n'andi magambo ari mu mukono yandikishijeho amabara y'umweru.

Inkuru yerekeye u Rwanda ifite umutwe ugira uti “Rwanda National Community Health Policy” ni inkuru igenewe abanyarwanda kugira ngo bayisome bamenye icyo minisiteri y'ubuzima ishaka ni inkuru yandikishijwe amabara y'umukara nay'icyatsi.

Inyandiko yanditswe mu mabara y'umweru n'umukara, iri mu byiciro bitandukanye, hari ingamba, hari n'uburyo zashyirwa mu bikorwa n'uburyo zagerwaho.

Abantu benshi bari mu gikorwa cyo gufata seretifika zabo, harimo umuyisilamu w'umugabo, wambaye amarinete y'umukara ndetse harimo n'abantu batandukanye, ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bishimiye seretifika bahawe.

Umuntu w'igitsina gore ariko ugeze mu zabukuru, bigaragara ko yapfuye ijisho, iryo jisho bakaba bararipfutse, akaba arebesha ijisho rimwe.

Abaganga bari kazi kabo bose bambaye udupfukamunwa kandi bambaye n'ingofero, harimo n'abambaye rinete ndetse iruhande rwabo hari televiziyo ebyiri ziri kugaragaza amashusho.

Furaya yanditseho ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, iyi furaya iri mu ibara ry'ubururu, ijambo twirinde ryanditswe mu ibara ry'umweru naho indwara y'ubushita bw'inkende ryanditswe mu ibara ry'umuhondo.

Abaganga bari hamwe bari kuvura harimo umuganga w'umuzungu wamba lunette z'umukara ndetse wambaye agapfukamunwa ka blue ciel harimo n'abandi ba muri imbere na bo harimo ubamo hagati w'igitsina gore abandi bari ku ruhande nab'igitsina gabo.

Furaya iri inyuma y'abantu, yanditsweho ngo "Women leaders in global health." Imbere yayo hari abantu bari kwifotoza, bazamuye amaboko, harimo abazungu ndetse n'abirabura, bose barishimye cyane.

Furaya iriho abantu bane, babiri b'igitsina gabo na babiri b'igitsina gore, umwe w'igitsina gore yambaye amarinete y'umukara undi ntayo yambaye, ariko bose bafite imisatsi isutse.

Umuyobozi uri imbere y'abandi wakoresheje projigiteri, atanga ikiganiro runaka ku nsanganyamatsiko yateguye, akaba yambaye ikositime ya gereyi ndetse imbere ye hicaye abandi baririmo abagabo ndetse n'abagore bakurikiranye ikiganiro.

Inkingo za Monkey Pox virus, ni inkingo zandikishijweho amabara y'umukara, ay'umweru ndetse hariho izifite udufuniko tw'icyatsi.

Abantu benshi bari hanze iruhande rwabo hari inzu z'amatafari ahiye ndetse n'igipangu cy'amatafari ahiye bafite furaya mu ntoki yanditseho rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda irinde virusi itera sida ipimishe uyu munsi, byandikishije ibara ry'umweru.

Abaganga babiri bari mu ihema riri ahantu hanze bakaba bari kuvura abantu indwara bigaragara ko idasanzwe, hari umuntu wicaye bari kumusuzuma mu kanwa.

Madamu wa Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame ari gutanga imbwirwaruhame, imbere ye hari mikoro ebyiri , yambaye amarinete y'umukara ndetse n'amaherena y'umweru kandi ari imbere y'agatuti gafite ibara ry'umweru, hari amagambo yandikishijwe amabara ya oranje ndetse n'umweru.

Abantu bari kwifotoza bicaye hamwe harimo abagabo bambaye amakositime n'amakaruvati ari mu mabara atandukanye yaba umutuku ubururu n'andi, iruhande rwabo hari ibishushanyo bitandukanye bibegereye ndetse abantu harimo abagabo ndetse n'abagore.

Furaya yanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, hari amabara y'icyatsi, amabara y'ubururu, ndetse iriho amagambo agira ati "wadi environomento herifu deyi " akaba ari umunsi wabaye kuri makumyabir n'esheshatu seputemba bibiri na makumya na kane.

Fureya iriho amagambo yanditse mu cyapa ndetse n'anyanditse mu mukono. Ari mu mabara atandukanye, yaba umweru, icyatsi, ndetse na buresiyeri.

Furaya ifite ibara ry'umweru hariho amagambo yanditse mu buryo bubiri, hari amagambo yanditse mu mukono ndetse n'andi yanditse mu cyapa, hariho n'akamenyetso kari mu ibara rya burusiyeri ndetse n'umutuku.

Furaya ya Global Health Seminar Series, iriho umugabo wambaye ishati ya buresiyeri, uri guseka ufite imisatsi ya natirere, akaba ari we uzatanga iki kiganiro gifite insanganyamatsiko yanditse kuri iyi furaya.

Mu bitaro kwa muganga harimo imashini zesitaye hejuru zikora akazi mu buvuzi, hari ibitanda abarwayi bafashirizwaho iyo baje kwivuza, indwara zabo bahuye nazo buri munsi.

Inzu nini irimo umuntu umwe uhagaze. Ari gukoramo imirimo, harimo ibice bitandukanye. Hari ahari imashini zifashishwa mu buvuzi. Inzu ifite parafo y'umweru, harimo n'amatara y'umweru.

Mu bitaro kwa muganga, harimo ibitanda by'umweru bitandukanye, biri mu mabara atandukanye, hari ibifite amabara y'umweru n'ubururu, harimo n'amarido y'ubururu, harimo n'inzitiramubu z'umweru.

Inzu y'ababyeyi cyangwa se materinite. Imbere yayo hari abaganga bane bambaye udupfukamunwa dusa tw'ubururu, abo baganga babiri bambaye amabaji y'akazi. Abandi babiri ntayo bambaye, babiri bambaye inkweto z'umukara. Abandi na bo bambaye izindi.

Ifoto yo kwa muganga yanditseho ngo nasi siteshoni, igaragaza utwumba tugiye dutandukanye twinshi dufite aho bakandagira h'umweru, ndetse iyo nzu nayo biherereyemo ikaba ari inzu y'umweru ariko ifitemo n'amabara y'umuhondo utari umuhondo cyane, ndetse iyi nzu ikaba bigaragara ko irimo n'amatara menshi.

Ikigo cya Rwanda cancer centre, iki kigo kikaba ari ikigo cyita ku barwaye kanseri ndetse cyubatse mu nyubako y'umuhondo, iyo nyubako ifite ubusitani imbere yayo, buteyemo jaride ndetse n'amawuwa n'ibiti bitandukanye.

Umwana w'umuhungu wicaye munsi y'igiti kinini ndetse akaba yambaye ishati ya buresiyeli, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, akaba yicaye ntacyo ari gukora.

Icyumba kirimo umuriro w'amashanyarazi, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho bifite amabara y'umukara nk'intebe ifite amaguru atanu, cyangwa se amapine atanu.

Inyubako ifite ubwiza budasanzwe, ifite umuriro w'amashanyarazi, hanze yayo hari jaride iteyemo ibiti kandi hari abantu bari iruhande rw'iyo nyubako bahagaze.

Abantu bicaye bari gusobanurirwa n'umukozi wa RBC wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, akaba ari umukozi w'umugabo.

Kwa muganga harimo abakozi bari gukora isuku harimo umusore wambaye umupira w'ubururu na ga z'ubururu ufite umweyo ari gukubuza, iruhande rwe hari ibitanda bitandukanye biriho n'amarido ndetse imbere ye hari undi w'igitsina gore nawe ufite umwe mu ntoki uri gukora isuku, bose bambaye udupfukamunwa.

Abarwayi babiri b'igitsina gabo bari kwitabwaho kwa muganga, umurwayi umwe yambaye ipantaro y'umuhondo yambaye n'ishati y'amaboko magufi, yambaye n'agapfukamunwa k'umukara. Undi murwayi yambaye agapfukamunwa k'umukara n'ingofero y'umutuku bari kwitabwaho n'abaganga b'abiri.

Abantu babiri, umwe w'umwana n'undi ukuze, abo bantu umwe ni umunyeshuri, undi ni umuganga, umuganga yambaye agapfukamunwa, afite imisatsi isutse, yambaye itaburiya y'umweru ndetse yambaye n'amaherena, ari gusuzuma umwana.

Umuganga ufite umuti mu ntoki ndetse wambaye ga z'ubururu, akaba yambaye n'itaburiya y'umweru, akaba yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, akaba afite umusatsi wa natirere ari kureba ku cyuma ibizamini icyo byatanze.

Icyapa cya forumasi ya Peniyel. Nyiri farumasi akaba ari Murekatete Denise afite nimero ikurikira: zeru, karindwi, umunani, umunani, mirongo itanu na gatanu, mirongo irindwi, mirongo cyenda. Akorana n'ubwishingizi butandukanye harimo RAMA na MS/UNR.

Abantu bari mu kirori cya Gahini rehabilitation center, abo bantu bafite amazi barikunywa y'Inyange abateretse imbere. Imbere kandi hari abayobozi bicaye na bo bambaye imyenda itandukanye. Imbere hari umuntu ufite kamera uri gufotora.

Umuganga uri gusuzuma umubyeyi w'umugabo w'umusaza, wambaye amarinete ndetse wambaye ishati y'umutuku ifite ibipesu by'umweru.

Umuganga w'igitsina gore, ufite imisatsi isutse, wambaye imyenda y'icyatsi, ufite terefone yabitse inyuma mu ipantaro yambaye, yambaye n'agakomo k'umukara, ku kaboko k'ibumoso.

Ibitaro bya Gihundwe bivura indwara z'amaso, aho hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya y'umweru n'inzugi z'umweru ifite n'amabati ya bresiyeli.

Ibitaro bivura amaso, ku gikuta cy'umweru hashushanyijweho igishushanyo cy'ijisho, gifite ibara rya shokora, iry'umweru, iry'ubururu n'iry'umukara, hari intebe abantu bicaraho baje kwivuza.

Inzu y'ababyeyi yandikishijweho amagambo yanditse mu cyapa, iteye irange ry'umweru yubakishije kandi amatafari ahiye, hanze yayo hari abantu batandukanye harimo babiri bahagaze abandi baricaye.

Ikigo cya Kigina herifu senta, ni ikigo gifite geti ifunguye kandi mu kigo mo imbere hari inyubako zubatse mu buryo bwiza, ziteye n'amarangi. Imbere y'ikigo hahagaze umubyeyi uhetse umwana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo komputa igaragaza ibisubizo umuganga yafashe umurwayi mu gihe yamupimye, ni icyumba gitewemo irangi ry'umweru gifite na parafo y'umweru, harimo rido ndetse harimo n'igitanda umurwayi ajyaho.

Inzu itangaje yubatse Neza ifite parafo ziri mu bwoko bubiri butandukanye hari parofo y'umuhondo n'iy'umweru hari amagambo yanditse ku gikuta cyayo yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse na gereyi, hari n'irindi jambo rivuga ngo infomesheni desike ryanditswe mu ibara ry'umweru.

Imashini zo ku bitaro zikora imirimo itandukanye yo kwa muganga, zikaba zicometse ku muriro w'amashanyarazi, ibyo bitaro bikaba bifite ibara ry'umweru.

Abantu batanu bari kwa muganga begeranye n'igitanda cyo kwa muganga, kiriho igitambaro cy'umweru. Umuganga umwe yambaye itaburiya y'umweru akaba ari umusaza, yambaye n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ibitanda byo kwa muganga bitondetse ku murongo. Ibyo bitanda bifite amapine y'umukara, kuri buri gitanda hashasheho ishuka ndetse bigiye bitandukanywa n'amarido y'umuhondo.

Inyubako ifunze ifite inzugi zifite ibara rya gireyi, mu nzu harimo amagambo yanditswe ku rukuta avuga ngo sipoti medesine senta.

Inzu nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hariho aho abantu bicara bari kubavura, ndetse hari n'imashini zigaragaza ibisubizo bivuye mu buvuzi bakoreye abo bantu.

Inzu iteye irange ry'umweru, ifite inzugi z'umweru ndetse n'ibirahure, harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru ndetse irimo n'amabara y'umutuku, ni umuntu w'igitsina gore, uri gushyira ibintu mu mashini runaka.

Jimu ya siporo irimo ibikoresho bitandukanye bya siporo bakoreraho siporo. Iyi jimu ikaba ifite ibara ry'icyatsi hasi, ibara ry'icyatsi riciyemo imirongo y'umweru, imigufi n'imiremire.

Inyubako zitandukanye, harimo izigeretse inshuro irenze imwe ndetse hari inyubako yanditseho regasi mu magambo y'icyatsi, imbere y'izo nyubako hari imodoka zo mu bwoko butandukanye, hari imodoka z'ubuvatiri zifite amabara y'umukara n'umweru.

Ahantu hari inzu zifite amabati y'umutuku ndetse ziteye amarangi y'umuhondo kandi zifite inzugi z'umweru, hari abantu bari kugenda hanze batandukanye, hari umusekirite wambaye ishati y'umweru, ifite n'ibara rya oranje.

Kwa muganga bigaragara ko ari kuri resebusiyo, aho bakirira abarwayi, hakaba harimo umuganga umwe wambaye ingofero y'ubururu n'itaburiya y'umweru, akaba ari kuri kompiyuta areba uko bimeze.

Inzu ifite amabati y'ubururu ndetse yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifite icyapa imbere yayo kiri mu mabara y'umukara, n'umweru, n'ubururu. Imbere yayo kandi hari ubusitani burimo jaride n'ibiti bihagaze.

Ibitaro birimo ibitanda bitatu by'abarwayi, ibyo bitandaba biriho matora z'ubururu ndetse ibitanda bikaba bifite amapine.

Foromasi ya porogeresi ifite inzugi z'ibyuma ndetse ifite n'amadirishya y'ibyuma, mu nzu harimo amakaro y'umweru, hanze hari amapave ni inzu y'itaje, iruhande rwayo hari indi miryango nayo ifunguye.

Inyubako nziza ziri mu mabara atandukanye. Hari inyubako iri mu mabara y'umuhondo, ifite n'amabati y'umutuku. Hari n'indi ifite ibara ry'umweru n'amabati y'umutuku. Ni inyubako zegereye ahantu hari ubusitani bwiza kandi bushimishije.

microscope ikoreshwa mu buvuzi ni microscope iri kugaragaza imiterere y'amazi ari mu birahure cyangwa se n'indi miti iyo ari yo yose yashyirwa mu birahure ni microscope ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Icyumba kirimo imitako itandukanye ku bikuta ndetse kirimo uburiri bushashweho ishuka y'ubururu, bufite n'umusego w'umweru, iki cyumba kandi kirimo agatebe k'umukara gafite amapine.

Abantu babiri iruhande rwabo hari insina n'indabo hari n'inzu y'amatafari ya rukarakara baricaye bari kuganira. umwe n'uw'igitsina gabo undi n'uw'igitsina gore, ntabwo bari mu kigero cy'imyaka imwe, umwe arakuze cyane undi ni umuganga ukiri muto.

Umurwayi w'igitsina gore uri kwa muganga, iruhande rwe hari imashini zo mu buvuzi, zerekana ibisubizo by'abaganga bitewe n'indwara umuntu arwaye.

Ibitaro bya kaminuza bya Butare byubakishije amabati y'umutuku, biteye irangi ry'umuhondo. Hanze yabyo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara rya buresiyeri, ndetse n'umukara n'umutuku.

Abantu bane, batatu ni abaganga, undi umwe ni umurwayi uryamye bari kuvura, umuganga umwe aricaye, abandi babiri barahagaze bose bambaye udupfukamunwa kandi bari gukora akazi kabo ka buri munsi.

Abanyeshuri bari muri laboratwari bari gukora ubushakashatsi ku byo biga ndetse abo banyeshuri harimo abanyeshuri b'abakobwa, umwe uri kuri telefone ndetse abandi bari kugenda, harimo abari gukora ubushakashatsi butandukanye.

Abaganga bane bari kwa muganga bambaye imyenda kabuhariwe yo mu buganga harimo amataburiya, n'udupfukamunwa, n'utundi tuntu two mu mutwe. Abaganga barigutunganya imiti ya serume.

Umuganga wambaye agapfukanwa k'umweru, wambaye marinete, wambaye n'amaherena. Yambaye n'itaburiya y'akazi, ari kumwe n'umubyeyi ufite umwana ukiri mutoya w'uruhinja, uyu mubyeyi afite imisatsi isutse.

Inzu iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, ku bikuta hariho ibishushanyo bitandukanye, ni inzu irimo intebe z'umukara n'intebe z'imisego ziri mu mabara ya gireyi ndetse na burefonse.

Kwa muganga harimo imashini zifashishwa mu buvuzi, harimo na ekara ifite ibara ry’umukara iri hejuru, ndetse parafo yo mu bitaro ifite ibara ry’umweru.

Inyubako ziri mu gace kamwe zifite amabati ya bresiyeri ndetse ziteye irangi ry'umuhondo ndetse n'umutuku, hari n'iyinindi nyubako yubakishije amatafari ahiye ifite n'amabati ya bresiyeri ndetse n'amadirishya y'umweru, imbere yazo hari abantu bicaye mu busitani n'abandi bari kugenda hanze yazo.

Umuganga w'igitsina gabo ufite imisatsi ya natirere wambaye umupira w'umuhondo, wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'isaha ku kaboko k'ibumoso y'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, aricaye.

Imashini yo kwa muganga ifasha mu buvuzi, ifite amabara ya gereyi ndetse n'umweru, igiye ifite n'utubuto tw'ubururu ndetse n'umutuku, iri mu nzu ifite parafo y'umweru irimo amatara y'umweru ndetse ifite n'inzugi za gereyi.

Ibitaro by'amaso, icyapa gihari cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanyanditswe ngo "iyi fondeshoni", n'andi ari mu ibara ry'umukara ryanditswe ngo "hosipito".

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Butaro, amagambo yanditse kuri iki cyapa yanditswe mu ibara ry'umweru, icyapa gishagawe n'abantu batandukanye, harimo abazungu ab'abagore n'ab'abagabo ndetse harimo n'abirabura.

Inzu ishakakaje amabati kandi ifite inzugi z'ibyuma ndetse n'amadirishya y'ibyuma, hanze yayo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru n'inkweto z'umukara kandi hanze hari jaride ndetse n'amapave.

Inyubako yubakishije amabuye irimo amadirishya arimo ibirahure, imbere yayo harikugenda abantu babiri. Umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore. Bambaye ibintu by'umweru hejuru ndetse hasi bambaye ku buryo butandukanye.

Kwa muganga harimo ibitanda bibiri ndetse ibitanda biri mu ibara ry'umweru n'ubururu, hari parafo y'umweru ndetse n'ibikuta by'umweru, ndetse kuri ibyo bikuta hariho ama mashini akoreshwa n'umuriro atanga ibisubizo ku barwayi bashobora kuryamishwa kuri ibyo bitanda.

Inzu ifite parafo y'umweru, ifite kandi n'amatara y'umweru, irimo amakaro yo mu bwoko bubiri butandukanye, ifite kandi inzugi zifite ibara rya gireyi.

Umukobwa ufite imisatsi isutse wambaye ga z'umweru ufite ishanete y'umukara ku kaboko k'imoso, wambaye itaburiya y'umweru ifite n'amabara y'ubururu, arikora akazi ke ka buri munsi.

Icyumba cyo kwa muganga babikamo amaraso, amaraso akaba abitse mu bipimo bitandukanye, hari abitse hasi, hari n'andi abitse hejuru.

Ibitaro bya CHUB, ni ibitaro bya kaminuza bya Butare, ibitaro rero bifite amabati y'umutuku ndetse bifite n'irangi ry'umuhondo, imbere y'aho hari kugenda abantu kandi hari n'icyapa cy'umweru.

Abanyeshuri bari kwiga, bamwe baricaye undi umwe arahagaze bambaye amataburiya y'umweru, harimo abakobwa bafite imisatsi isutse.

Fulaya y'irembo iri inyuma y'abagabo yandikishijweho amabara y'ubururu, handitsweho ijambo rivuga ngo irembo, hariho n'urubuga rw'irembo www.irembo.com.

Umuganga w'umwirabura w'igitsina gore, uri gusuzuma umurwayi nawe w'igitsina gore. Bombi bafite imisatsi isutse kandi ni abirabura. Undi uri inyuma ni umuganga nawe w'umuzungu, bigaragara ko nawe ari kureba ibisubizo ku mashini kabuhariwe yo kwa muganga.

Inzu ifite amabati ya buresiyeri kandi iteye amarangi abiri y'ubwoko butandukanye hanze yayo haparitse imodoka hari n'abantu batandukanye bahagaze abandi baricaye.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru y'ubwirinzi, akaba yambaye n'agapfukamunwa, akaba yambaye n'inkweto z'umukara, ndetse akaba ari gutera umuti ahantu runaka, bigaragara ko ahetse icyo ari gutereramo umuti cy'umukara ndetse aho hantu ari guterera umuti nta wundi muntu uhari.

Umuganga w'igitsina gabo uri mu cyumba cyo kwa muganga, icyo cyumba kirimo imashini zifashishwa mu buvuzi harimo purinta cyangwa se igikoresho gisohora impapuro ndetse harimo na kompiyuta, harimo kandi intebe yicaraho ari gukora akazi ke ka buri munsi.

Ikigo cya ircad Africa cyubatse mu buryo bw'amagorofa abiri, kikaba cyubakishije amatafari ahiye ndetse gishakaje amabati agezweho, cyubatswe kandi n'ibyuma, iki kigo giherereye ahantu hari ubusitani.

Uducupa dutatu dufite imifuniko y'umweru twose turasa twandikishijeho amagambo ari mu mabara atandukanye, hari umweru umuhondo ndetse n'umutuku.

Ingobyi batwaraho abantu bagize ikibazo runaka cy'ubuzima, n'ingobyi ifite amabara y'umweru ndetse ifite amabara y'umukara n'umutuku ndetse n'umuhondo.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye udukomo tw'amabara atandukanye ku kaboko kw'ibumoso. Harimo agakomo k'ubururu, ak'umweru ndetse n'utundi tubiri dufite ibara ry'umuhondo.

Furaya iriho umuntu afashe ku kaguru yandikishijweho amabara ya burehonse ndetse n'umweru, amagambo ayiriho hariho amagambo yanditse mu cyapa ndetse n'ayanditse mu mukono hariho kandi n'imibare itandukanye.

Abantu babiri, umwe aricaye, bari kureba ikibazo afite ku kaguru. Undi ari kumurebera uko akaguru kameze. Uri kumurebera ni uw'igitsina gabo ndetse yambaye n'agapira k'umukara. Undi wicaye ku gitanda cyo kwa muganga gifite umusego w'umukara, ni umukobwa wambaye agapira k'umukara n'agakabutura k'umukara.

Kwa muganga harimo abantu batandukanye mu cyumba, ndetse hari umuntu uri ku gitanda, wafashe akaguru ke agashyira aho bari kugakorera ubuvuzi runaka.

Umuntu uri gukora siporo, wazamuye amaboko wayafatanyije, yambaye isaha y'umukara ku kaboko k'ibumoso ndetse yambaye ekuteri z'umweru, yambaye n'agapira kandi ka oranje kadafite amaboko.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga, gifite ibara ry'umweru, gifite amapine y'umukara, ndetse kikagira aho cyerekanira amashusho, aho cyereka umuganga niba umurwayi afite umuvuduko w'amaraso cyangwa ntawo afite.

Imbuto zitandukanye ziri hamwe, harimo avoka, harimo ironji, harimo amapome y'umutuku, harimo amashufureri, harimo amapuwavuro, iz'icyatsi n'iz'umutuku.

Umukinnyi wambaye amasogisi y'umukara ndetse wambaye na godiyo z'umukara, uyu mukinnyi akaba yicaye kuri burankari, akaba yari atumye umukino uhagarara kugira ngo abanze yitabweho.

Umuntu w'igitsina gabo wifashe ku maguru afashe ku kaguru k'ibumoso n'amaboko yombi, yambaye agakabutura k'umukara arunamye ndetse yambaye n'isaha y'umukara ku kaboko k'ibumoso.

Umukobwa ubyutse, washashe uburiri bwe ndetse nyuma yo kubyuka akaba ari kwigorora, akaba yambaye ibintu by'umukara ndetse akaba ari kwinanura kugira ngo akomeze izindi gahunda.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziri hamwe, harimo umuneke, harimo indimu, harimo amaronji, harimo inanasi ndetse harimo kugaragaramo n'ibinini ndetse harimo kugaragaramo n'imidari, ibyo byose bikaba bikubiye ahantu hamwe.

Furaya iriho umuti w'amenyo, uwo muti ukaba uri mu bipimo bitandukanye. Hari uri mu bipimo bitoya, hari n'uri mu bipimo binini. Kuri furaya handitseho ko uyu muti urinda amasaha makumyabiri n'ane infegisiyo zo mu menyo.

Amazi ari mu gacupa gafite umufuniko w'ubururu, hari na pome isatuye n'idasatuye, hari na metero y'umuhondo yifashishwa mu gupima uburebure.

Igishushanyo kiriho ibinini, hariho ibinini byumuhondo, oranje n'umweru hariho n'igitoyi kirimo umuti yandikishijweho amabara y'umweru ari mu mukono.

Inzu nini irimo abantu batandukanye, harimo umuzungu ufashe umwana ku maguru, harimo n'umumansera wambaye ikanzu ya girayi n'igitambaro cy'umweru mu mutwe, inzu irimo imitako itandukanye, harimo iri kubikuta y'umuhondo n'ubururu.

Umugabo uri kunywa amazi, ari kuyanywera mu gacupa agafatishije akaboko k'iburyo, yambaye kandi agapira ka burefonse afite ubwanwa yambaye n'isaha ku kaboko.

Umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi isutse, wambaye agasengeri ndetse n'ipantaro igeze hasi, akaba arambuye amaboko, afashe ku maguru yambaye n'impeta.

Ubwoko butandukanye bw'imbuto n'imboga biri hamwe. Harimo amaronji, amapome, imineke, puwavuro, kurujeti n'ibindi bitandukanye.

Inkoni ebyiri, imwe ifite akantu gatendera k'umukara indi ntako, inkoni zirateganye kandi zose ziriho amabara y'umukara ndetse n'amabara y'umweru kandi zose ni ndende.

Utwuma kabuhariwe twifashishwa mu murimo runaka. Ni utwuma dufite ikoranabuhanga ritangaje. Dufite amapine y'umukara, harimo n'utundi duteretse nta mapine.

Igikarito cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, hari ibara rya burefonse, ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku, hafi yacyo hari sikoci y'umweru ihambuye.

Inkoni iri mu mabara y'umukara na gireyi, ifite agashumi bifashisha bayimanika kari hejuru yayo, irahagaze kandi igishushanyo cyayo cyishushanyije hasi yayo.

Icyapa cyanditseho ngo sports medecine, kiri kugaragaza imyitozo ngororamubiri itandukanye n'uburyo umuntu yayikoramo akagira ubuzima bwiza, haba none no mu gihe kizaza.

Umuganga w'umugore ufite imisatsi isutse, wambaye agapira k'umukara, wambaye isaha y'ubururu, wambaye ku kuboko impeta ndetse uri kuvura umukinnyi wakomerekeye mu kibuga ku kaboko.

Umuntu w'igitsina gabo uri kunywa amazi, afite gurude ifite umufuniko w'umukara ndetse ari kunywa amazi areba hejuru, yambaye kandi isengeri kandi iruhande rwe hari inyubako.

Furaya iriho abantu bari gukina imikino itandukanye, iriho abakina umupira w'amaguru, abakina tenisi, abakina umupira w'amaboko, abakina umukino wo gusimbuka n'abandi bakina imikino myinshi itandukanye.

Imiti iri hamwe itandukanye, hari imiti iri mu dukarito twayo twabugenewe, hari iri mu ducupa twayo, ndetse hari na ga z'abaganga ziyiri iruhande.

Umugabo wakomeretse ku kaguru, bakaba bari kumupfuka bakoresheje igipfuko cy'ubururu, akaba yicaye ku gitanda cyo kwa muganga cy'umukara ndetse ari kuvurwa n'umuganga w'umugore.

Umuganga ufashe ukuboko k'umurwayi, umuganga akaba yambaye itaburiya y'umweru, akaba agiye kumufata ibizamini. Umurwayi we yambaye umupira w'ubururu, ndetse aricaye, muganga we arahagaze.

Umuntu uri gukora siporo yafashe ku kaguru ke yambaye kola ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, yambaye n'umupira w'umweru yambaye kandi isaha ku kaboko y'umukara.

Amabage asa ariko yagaragajwe mu buryo butandukanye imwe irafunze ntabwo ifunguye ndetse ayandi agiye afunguye ku mpande zitandukanye herekanwa ibiyirimo, hari arimo imiti itandukanye.

Umukobwa uhagaze uri kunywa amazi, afite ikintu abikamo telefone yaziritse ku kaboko k'ibumoso. Yambaye agasengeri cyangwa se agasutiye gafashe amabere k'umukara, ndetse yambaye n'akandi hasi k'umukara k'agakora. Yaziritse imisatsi kandi afite amaherena.

Umukobwa wambaye agapira ka oranje n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'iroza zifite umupira w'umweru ari muri siporo zo kugorora amaguru n'amaboko.

Umuntu w’ igitsina gore uri muri siporo, ari kugorora amaboko ye yafashe akaboko k’ iburyo afata n’ akandi k’ ibumuso agakoza mu mugongo we . Yambaye agapira k’ isengeri.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umweru umupira ufite udupensu mu ijosi ndetse afite ikintu mu ntoki yashyize ku kaboko gifite ibara ry'ubururu, yambaye nipantaro ya burefonse.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi biri hamwe. Hari agakapu gafite amabara y'umutuku kandikishijweho amagambo agira ati: "eyadi" ndetse hari n'igishushanyo cy'umuntu kiryamye hasi iruhande rw'ako gakapu.

Umuntu warambuye akaboko yasize inzara ze ndetse kandi ni umwirabura, afite ikintu gifite ibara ry'ubururu, yashyize ku kaboko ke, yambaye n'umupira kandi yawuzamuka.

Imipira y'imikino itandukanye ndetse n'ingofero zayo, harimo umukino wa basiketi bolo ndetse n'umukino wa futu bolo n'umukino wa kiriketi.

Umukobwa uri gukora, siporo asunika ibyuma biremereye. Ni umukobwa wambaye agasengeri k'icyatsi n'agakabutura k'ubururu n'inkweto z'umweru, ari kubikorera mu kibuga cy'icyatsi.

Ibicuruzwa biri hamwe muri kanete ifite ibara ry'icyatsi, harimo imikasi, hakabamo amavuta ya vazerine ndetse harimo n'indi miti iri mu dukarito dutandukanye.

Icyapa kiriho ifoto ya burankari cyangwa se ingobyi batwaraho abantu bagize ikibazo runaka, hariho abantu babiri bafashe iyo ngobyi mu ntoki bambaye imyenda y'umutuku.

Abantu babiri b'igitsina gabo umwe w'umwirabura n'undi wumuzungu, uw'umwirabura yambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, yambaye n'isha ku kaboko k'ibumoso.

Inyariko yanditswe mubara y'umweru, n'ubururu, n'icyatsi hariho umukobwa uri kurambura akaguru, hariho nundi mukobwa ufashe intebe uhagaze, undi aricaye kandi ntabwo yegamye ku ntebe.

Abantu bari kwita ku muntu wari uri mu marushanwa akagira ikibazo, uwo muntu yambaye isengeri y'umutuku n'ikabutura y'umukara, abo bantu na bo bambaye amajire y'icyatsi ndetse bari kwita kuri uwo muntu wagize ikibazo.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira wa lacositi ndetse ufite ikintu ari gushyira ku kaboko ke k'iburyo cy'ubururu, yambaye n'ipantaro ya burufonse ndetse aricaye.

Ishakoshi irimo ibikoresho bitandukanye. Iyi shakoshi kandi irimo ibintu byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ayandi ari mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi batandukanye bari kureba televiziyo, harimo abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa dusa, ndetse bose mu mutwe bambayemo utuntu dusa, hari kompiyuta ziri ku meza ariko bose bari kureba televiziyo.

Imashini iteretse hasi, yifashishwa mu gutanga umwuka wirukana udukoko runaka, imashini ifite umugozi w'umweru ndetse iri gusohora umuti.

Imashini iri mu ibara ry'umweru iri mu nzu ifite parafo y'umweru ndetse n'amatara y'umweru, hafi yayo hari akabati gafite ibara ry'umweru, inzu imashini irimo ifite inkuta z'umweru.

Amashusho y'ibiganza bine hari udushumi tuyahambiyeho mu buryo butandukanye hari amagambo ari munsi yabyo ijambo rimwe ryanditse mu buryo butsindagiye irindi ryanditse mu buryo busanzwe, yose yanditse mu mukono.

Ibikapu bibiri bifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara. Kimwe kirafunze hose, ikindi kirafunguye. Harimo ibintu bitandukanye mu gikapu gifunguye, harimo ibifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, n'andi mabara yandi.

Mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga harimo abantu batandukanye harimo abaganga n'abarwayi harimo umurwaza wicaye ku gitanda wambaye agapfukamunwa ka buresiyeri witeze igitenge cy'ubururu gifite n'amabara y'umuhondo harimo n'abaganga bambaye amataburiya harimo n'undi mugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikote ry'umukara.

Ibicuruzwa biri mu dushashi dutanu. Ni udushashi turi mu bwoko butandukanye bw'amabara. Hari ibara ry'umuhondo, iry'umutuku, iry'ubururu, iry'umukara ndetse n'iry'icyatsi.

Icyapa gikangurira abantu gukora siporo, bigaragara ko kiriho umuntu ari gukora siporo yo kwiruka, ariko kandi kikaba kiriho ibiganza bibiri bitandukanye, ndetse kikaba kiriho n'umuntu wicaye, bigaragara ko yari ari gusimbuka umugozi, ndetse kikaba kiriho uruti rw'umugongo, ndetse kiriho n'umusaraba ugaragaza ivuriro.

Akagare k'abana kari mu mabara atandukanye abiri, ibara ry'umutuku ,nibara ry'umukara, aka kagare kandi gafite amapine ane kifashisha kagenda.

Abantu bane, bari kwiruka bambaye imyambaro itandukanye, bose ni ab'igitsina gabo, kandi bari kwiruka kuri stade ifite imirongo y'umweru ndetse ifite n'ubwatsi bw'icyatsi.

Umuzungu w'igitsina gabo uryamye hasi wambaye isaha ku kaboko k'iburyo , yambaye n'agakabutura k'umukara ndetse aziritse akaguru ke ku kintu ari gukoreraho siporo, kandi ari mu cyumba gikorerwamo siporo kizwi nka gym.

uducupa dutandatu, turi mu ibara ritandukanye, duteretse hamwe. Harimo uducupa twanditsweho amabara y'umweru. Hariho n'utundi ducupa, twanditsweho amabara y'umuhondo.

Abazungu babiri, umwe w'igitsina gabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi w'igitsina gore, yambaye isengeri y'umweru kandi yicaye ku mashini ari gukoreraho siporo yo muri gimu.

Abantu babiri bari kwita ku muntu upfukamye hasi, wagize ikibazo mu kibuga, umwe mu bari kumwitaho, yambaye umupira wa gereyi, ipantaro y'umukara n'inkweto ziri mu mabara y'umukara n'umweru.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye, ufite ikibazo cy'imitsi. Imitsi iri kugaragara ko yagize ikibazo cyo kuviramo imbere. Uyu muntu yambaye isaha y'umukara ku kaboko.

Umusore wambaye agapira ka gereyi, akaba afite kuteri z'umweru mu matwi ye, ari kunywa amazi ayakuye mu gacupa. Ako gacupa gafite umufuniko w'ubururu ndetse ako gacupa ko gafite ibara ry'umweru.

Insimburangingo y'akaguru, iyi nsimburangingo ifite amabara y'umukara n'aya gereyi, iyi nsimburangingo ikaba ihabwa umuntu wacitse akaguru.

Abantu babiri, umwe ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa ka buresiyeri, inyuma ye hari irido y'ubururu, ari kuvura umuntu yoroshe igitambaro cy'umweru.

Umuganga wumugabo wambaye gazumweru ufite ikintu cy'umutuku mu ntoki ze yambaye n'itaburiya y'umweru. Afite imisatsi ya natirere ndetse iruhande rwe hari kizimyamwoto ku gikuta kandi igikuta gifite ibara ry'umweru n'umukara.

Imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye, imwe iri mu dushashi, indi iri mu ducupa, harimo uducupa tw'ubururu, harimo uducupa tw'umutuku, harimo ibinini by'umweru, ndetse harimo na papiyejenike zitandukanye.

Umusore watabawe na kuruwaruje, ije kumutabara kubera impanuka yagize, uyu musore akaba yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, umuntu wo muri kuruwaruje uri kumwitaho yambaye ijire y'umutuku kandi na we ni umusore.

Agacupa k'umweru kapfundikije umufuniko w'umweru kanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'andi ari mu ibara ry'umweru hariho amagambo agira ati forever iVision.

Igiti gifite amababi matoya ariko atoshye, bigaragara ko cyabonye imvura ndetse n'izuba rihagije, kubera yuko nta kibazo cyo kuma iki cyatsi cyigeze gihura nacyo kandi kimeze neza.

Imiti itandukanye iri mu ducupa umunani, dufite ingano zitandukanye, iyi akaba ari imiti ifite indwara ivura, ukeneye ibindi bisobanuro bakaba batweretse nimero wahamagara hasi.

Ubwoko bw'indabo butandukanye, harimo indabo z'umweru, harimo indabo z'umuhondo, indabo z'iroza, indabo z'umutuku, indabo z'icyatsi n'indabo zifite amabara menshi atandukanye.

Ibinini bisa biri mu dupaki tubiri, iruhande rwabyo hari agakarito gafite ibara ry'umuhondo kandikishijeho amabara y'umukara ndetse n'umweru kandi gafite n'ibara ry'icyatsi n'iry'ubururu kanditseho ijambo rivuga ngo ariyanse.

Umuntu ufashe mu ntoki agacupa kanditseho amagambo agira ati, aro jojoba yanditse mu ibara rya shokora, ndetse hariho n'icyatsi gifite ibara ry'icyatsi, hariho kandi n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara.

Ibicuruzwa biri mu dukarito dutatu dufite amabara atandukanye nta muntu udukozeho kamwe kandidikishijweho amabara y'umweru, akandi kandikishijweho amabara y'umutuku twose dufite icyo duhuriyeho.

Icyatsi giteye ahantu h'urugo ndetse urugo rwubakishije ibiti, hari igiti gitambitse hari n' ikindi giti gihagaze, icyatsi cyashibutse ku giti gihagaze.

Udukarito tune, kamwe karapfunduye, utundi dutatu turapfundikiye, turi mu mabara atandukanye, hari utwandikijweho amabara y'umukara, ay'umutuku, ay'umweru, n'andi yo mu bundi bwoko.

Imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye iri mu dukarito dutandukanye, harimo udukarito dufite amabara y'umuhondo n'icyatsi, harimo kandi n'udukarito dufite amabara y'umutuku n'umweru.

Icupa rifite umufuduko w'umweru ni icupa rirerire ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kandi manini nk'ijambo ririho rivuga ngo shampo.

Farumasi irimo imiti itandukanye, imwe iri mu ducupa tw'umweru, indi mu ducupa tw'ubururu, indi mu ducupa tw'umutuku, ndetse indi iri mu ducupa tw'icyatsi.

Icyatsi kirandaranda hasi, gifite amababi y'icyatsi atoshye, kikaba gifite uturabyo tw'iroza tugiye turiho ku mpande zombi.

Icyatsi cyarandaranze hasi, gifite amababi atoshye, gifite n'uturabo tw'iroza ndetse n'umuhondo. Giteye ahantu h'ubutayu, hatari ibyatsi byinshi.

Ibyatsi biteye ahantu hari ubutaka bwiza, byabonye imvura ihagije, kubera ko birashishe rwose, ibyo byatsi bikozweho n'ikiganza cy'umuntu, uwo muntu akaba arimo areba uko bimeze.

Abantu bari mu murima munini w'imyaka, ni abantu b'igitsina gore bari gusarura, umwe ari kugenda abandi baricaye, bose bari gusarura imyaka yabo hamwe.

Icyatsi cy'umuravumba gishishe gitewe hagati y'amazu, iruhande rwacyo hari igipangu cyubakishijwe amabeto ndetse hari n'inzu iri iruhande rwayo inyuma yubakishije umucanga.

Akabuni k'umuhondo gateretse, gafite umufuniko w'umutuku kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hari ari mu mukono no mu cyapa, imbere yako hari igikakarubamba kigaragara neza.

Uducupa turi mu ngano zitandukanye ariko utu ducupa tukaba ari uducupa tw'ubuki, harimo agacupa kanini n'akandi karimo hagati nako kanini kisumbuye ku tundi. Ako ku ruhande iburyo nako ni kanini kurusha akari ibumoso mo hagati, utwo ducupa twose tukaba turimo ubuki.

Uducupa dutatu twegeranye, harimo kamwe k'umuhondo n'utundi tubiri tw'umweru, hakaba kandi korogate enye zegeranye zavuye mu gikakarubamba.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ku gihingwa, igihingwa kirashishe, gifite imbuto, gifite n'amababi meza kandi atoshye rwose.

Icyatsi gishishe cyane cyabonye imvura, kibona ibikenewe byose kugira ngo kimererwe neza, ni icyatsi gitoshye gifite amababi meza, amababi manini ndetse n'amatoya.

Uducupa tubiri duteretse dutandukanye hafi y'uducupa hari n'utundi dukarito dufite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi dushushanyijeho ibishushanyo bitandukanye.

Icyatsi gitoshye cyane gifite amababi manini kandi giteye ahantu heza. Hari ubutaka burumbuka kubera ko niyo mpamvu iki cyatsi gifite aya mababi cyabonye izuba ndetse n'imvura bihagije.

Igishushanyo kigaragaza imikoreshereze y'umuti witwa ''Aloe Lips''. Ni umuti ukoreshwa mu buryo bwanditswe kuri iki gishushanyo byanditsweho ngo "Easy to use".

Amakuru ari guhita kuri televiziyo y'u Rwanda afite umutwe ugira uti:" Kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo." Amakuru ari kugaragaza umugabo w'umuyisilamu ucuruza imiti gakondo.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze, wambaye umupira w'icyatsi, umupira uriho rogo zitandukanye, hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse yambaye na baji mu ijosi, afite mu ntoki ze ibintu biva mu butaka.

Ibirungo bashyira mu nyama biri ahabugenewe babikatira, ibi birungo bikaba bishishe rwose bigaragara ko bigiye gukoreshwa mu guteka.

Ibintu bitagikoreshwa biri hamwe harimo inkono zashaje harimo uducupa twavuyemo ibintu bitandukanye biri mu mifuka ibindi biri hanze ndetse ntawe ubyitayeho.

Imiti ibitse mu buryo butandukanye. Hari imiti iri mu tubuni dufite amabara atandukanye, iry'umweru n'iry'umuhondo. Hari n'undi muti uri mu gacupa, ugaragara mu ibara ry'icyatsi. Hari n'indi miti itandukanye iri mu ducupa tw'umweru.

Ibihingwa bitandukanye. Ibihingwa bikiri mu butaka, n'ibihingwa byasaruwe. Harimo ubunyobwa budatonoye, harimo n'ibitoki bimwe bidatemyeho, ibindi bikasemo kabiri.

Icupa ry'umutuku rigaragaza ji ya foreva akitivu busiti, yanditseho inajyi dirinki foreva, iri cupa rikaba ryandikishijeho amabara y'umweru, ndetse n'ay'umutuku, hari ayanditse mu cyapa, ndetse no mu mukono.

Uducupa dutanu, dufite imifuniko itandukanye, harimo uducupa tubiri dufite imifuniko y'ubururu, hari n'utundi dutatu dufite imifuniko ya bureciyeri, kuri utwo ducupa handitsweho amagambo ari mu buryo butandukanye, haba ayanditswe mu cyapa no mu mukono.

Uducupa dutandukanye dufite amabara atandukanye, hari udufite imifuniko ya shokola twanditsweho n'amagambo yanditswe mu'i ibara rya shokola, hari n'utundi ducupa tw'umweru dufite imifuniko y'umweru, hari akariho icyapa cy'ubururu ndetse hari n'utundi turi mu bundi bwoko.

Icyatsi gishishe gifite amababi matoya giteye ahantu h'ubutaka burumbuka cyabonye izuba ndetse n'imvura bihagije.

Umuti uvura indwara zitandukanye harimo indwara yo kurangiza vuba no gucika intege, hari umuti uri mu gacupa k'umweru kandikishijweho amabara y'ubururu, kandikishijweho kandi n'amabara y'umutuku.

Agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, kariho amagambo yanditswe mu mabara atandukanye, hari ijambo ryanditswe ngo foreva riri mu mabara y'umweru ariko ryanditswe ahantu hari ibara ry'ubururu.

Uducupa tubiri twanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara, hashushanyijeho igikakarubamba cy'icyatsi, dufite imifuniko y'umweru twose.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye hari ibihingwa bifite amababi abyibushye n'ibindi bifite amababi ananutse hari kandi n'imbuto ziva muri ibyo bihingwa cyangwa se umusaruro uva kuri ibyo bihingwa.

Ibihingwa bishishe byabonye izuba rihagije ndetse n'imvura. Ibi bihingwa byatewe mu mavaze y'umutuku. Ayo mavaze kandi ateretse ku gatanda k'umweru k'ibyuma.

Amavase arindwi ari mu mabara atandukanye, amwe ari mu mabara y'umukara, andi ari mu mabara y'umweru, yose afite ibyatsi biyarimo kandi bitandukanye, hari icyatsi gifite amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Imiti iri mu dupaki tubiri dutandukanye, imwe iri mu gapaki kandikishijweho amabara y'icyatsi indi iri mu gapaki kandikijweho amabara ya orange, ishushanyijeho abantu bafite indwara z'uruhu zitandukanye.

Furaya iri mu ibara ry'icyatsi yishushanyijeho uducupa dutandukanye hari udufite ibara ry'umweru n'udufite ibara ry'umuhondo, tumwe mu dufite ibara ry'umweru twandikishijweho amagambo ari mu mabara atandukanyye yaba shokora, umutuku, ndetse n'icyatsi.

Ibicuruzwa biri mu bintu bitandukanye, hari ibiri mu ducupa tw'umweru, hari ibiri mu dukarito nk'isabune irimo udukarito, yanditseho ngo: " fesi endi bodi sopu", hakaba kandi n'utundi ducupa tubiri turi ku ruhande tunini, kamwe gafite umuvufuniko w'umutuku kandikishijeho n'amagambo y'umutuku.

Ibinini byinshi biri mu ibara ry'icyatsi bimwe biri ku mudaho, ibindi bimennye hasi byose ntawe ubikozeho, bivura indwara zitandukanye mu buvuzi birifashishwa.

Umuntu ufite korogate mu ntoki iva mu gikakarubamba, uri gushyira kurogati ku buroso bufitwe n'undi muntu ariko uri kumushyiriraho korogati yambaye ishati ya buresiyeri.

Umuntu wambaye ijipo y'icyatsi, afite mu ntoki ze, ikintu cy'igiti ari gukoraho ndetse muri icyo kintu cy'igiti, harimo ingemwe zirimo zifite amababi y'icyatsi ndetse izindi ni ibiti.

Agacupa k'ubururu gafite umufuniko w'icyatsi, kanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'andi ari mu ibara ry'umutuku, hafi yako hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, hari na nimero hasi wahamagaraho, ukeneye ibiri muri aka gacupa.

Umuti uri mu gakarito kandiwanditseho amabara y'umukara mu cyapa hari n'andi mabara y'umutuku harimo amagarama magana atanu yanditswe mu ibara ry'umutuku.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, ndetse ibi biti bikaba bishishe, bikaba byarabonye imvura nyinshi, kubera yuko biragaragara ko bishishe, bitewe nuko bimeze.

Icyatsi cy'umuravumba gifite amababi ashishe, giteye ahantu h'ubutayu hatari ibindi byatsi byinshi. Icyatsi gifite ibibabi bimwe biratoboye, harimo ikibabi gitobowe umwenge umwe, n'ikindi gitobowe umyenge itatu.

Ibihingwa biri mu bwoko butandukanye hari ibifite ibibabi bitoshye, hari n'ibifite ibibabi binanutse hari ibitewe mu ma vaze hari n'ibitewe mu butaka byahawe arufabe zikurikira: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Ishyamba ritewemo ibiti by'ubwoko butandukanye ni ishyamba rifite ibiti birebire ndetse n'ibigufi hari ibifite amababi ari kugaragara ko ashishe.

Ibicuruzwa biri mu dukarito dutandukanye, harimo udukarito tunini, harimo n'udukarito duto turi mu mabara atandukanye, haba amabara y'umweru n'umukara, haba mu mabara y'ubururu n'iroza ndetse n'andi menshi atandukanye.

Uburoso bubiri buri mu gakombe k'umweru gateretse nta muntu ugakozeho, hafi yaho hari korogate yo mu gikakarubamba yanditseho amagambo agira ati," forever bright.'' Ndetse hafi y'iyo korogate hari amasume azinze ari mu mabara atandukanye.

Umuti uri ahantu, umwe uri ku mudaho ugiye gutunganywa, undi uri ku ruhande ni mwinshi ntabwo barawutunganya, undi wamaze kugera aho barawutunganiriza mu ruho, urwo ruho rufite umuhini warwo.

Ibiribwa bitandukanye biri ahantu hamwe, harimo iby'umuhondo, harimo ibifite ibara ry'umutuku, harimo ibifite ibara ry'umweru, ibifite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'utwungo dukoze mu ibumba.

Furaya iri mu mabara abiri atandukanye, ibara ry'icyatsi n'ibara ry'umweru. Hariho amagambo yanditswe mu mabara na yo atandukanye, ibara ry'icyatsi n'ibara ry'umukara, amwe muri ayo magambo ni uko hariho ijambo rivuga ngo foreva ryanditswe mu ibara ry'umukara.

Icyatsi cy'umuravumba giteye ahantu hatari ibindi byatsi cyane, ni icyatsi gishishe cyabonye izuba rihagije ndetse n'imvura ihagije, gifite amabi atoshye bigaragara ko kimeze neza.

Igicuruzwa kiri mu dukarito dufite amabara atandukanye, hari udukarito dufite amabara y'umweru n'umutuku, twandikishijweho amagambo ari mu mabara na yo atandukanye, harimo ay'umweru n'ay'umukara.

Icyapa cyo kwa muganga cyanditseho clinical triols, kiriho ibyatsi bitandukanye by'ubwoko butandukanye, bigaragara ko ari imiti itandukanye, ikoreshwa muri ubwo buvuzi kuri icyo kigo.

Akabuni k'umweru karimo ji y'inkeri, kandikishijeho amabara y'umutuku ndetse gafite n'umufuniko w'umutuku, kandi amagambo yako hariho ayanditse mu nyuguti nkuru ndetse n'ayanditse mu nyuguti ntoya.

Pipinnyeri iteyemo ingemwe zitandukanye, muri pipinnyeri harimo abantu batandukanye, harimo umugabo wambaye ishati ya buresiyeri uri kwereka abantu ibintu runaka. Muri iyo pipinnyeri hari utwapa tw'umweru twandikishijeho amagambo y'umukara n'ubururu.

Agacupa ka oranje gateretse gafite umufuniko wa oranje, amagambo akanditseho ari mu ibara rya oranje, hari ari mu cyapa ndetse hari n'ari mu mukono, hashushanyijeho igikakarubamba.

Uducupa tubiri tw'umuhondo twandikishijeho amabara ya shokora, utwo ducupa kandi turi kumwe n'ikirahure na cyo gisutsemo ibyavuye muri utu ducupa, utu ducupa kandi dupfundikishije imifuniko ya shokora.

Umuravumba watunganyijwe ugashyirwa mu gacupa, ako gacupa ni agacupa k'ikirahure, gafite umufuniko w'umuhondo, uwo muravumba rero washyizwemo uratunganywa kugira ngo uzavure.